Ubwoko bw'igiseke Abanyarwanda bakunda kuboha. Iki giseke ni cyiza igihe ugiteguye muri salo n'ahandi hose wakijyana kigaragara neza. Urabona rwose ko gifite amabara meza abereye ijisho.

Uruhurirane rw'abantu baje mu nama harimo umukecuru wateye agatoki ufite ikibazo uri kuvuga ikibazo cyiwe, inyuma ye hari abandi bantu bategereje nabo kuvuga ibibazo byabo, kandi rwose urabona ko ibyo bibazo byabo abantu biteguye kubyumva.

Uruhurirane rw'abantu bari mu muhanda, ahantu hari ishyamba ubona ko bahanze amaso imodoka ibari imbere, hari umuntu uri kuyihagarika muri abo bose, harimo uri kuyihagarika ayereka icyerekezo igomba kujyamo.

Abanyamaguru barahagendera igihe bari mu muhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka zidateganijwe, kandi mu rwego rwo kugira ngo tumenye ko abanyamaguru barinzwe, kandi bafite umutekano.